Inzu zigeye zitondetse ku murongo umwe, ariko zikaba zisumbana bitewe n'uko ikibanza kimeze. Zisakaje amabati y'ubururu, kandi zifite inzugi z'ubururu. Bisa n'aho hari ibyumba by'amashuri abanyeshuri bigiramo.

Ahantu bisa n'aho ari mu kigo rusange cyangwa se ikigo gihurirwamo n'abantu batandukanye. Hamanitsemo amabendera cyangwa se amadarapo abiri, harimo n'iry'u Rwanda . Inyuma y'aho gatoya, hariho ibirunga bisa n'aho ari ibyo mu Rwanda.

Umugore wambaye amaherena, afite ibinezaneza akuganiriza abanyeshuri, ari kureba, bambaye ibitambaro by'imyeru, bisa n'aho ari mu kigo cy'abayisilamu.

Umugabo wambaye impuzankano za gipolisi zirimo ibara ry'umukara bisa naho ari igipolisi cy'u Rwanda, ari gufata ijambo akaribwira abanyeshuri bari mu cyumba cy'ishuri kandi nabo bamuteze amatwi.

Abakobwa bambaye imyambaro yabugenewe iri mu mabara y'umweru, bisa naho bari mu gikoni bari gutegura amafunguro. Gusa bagaragara ko babyize, kandi bari kubikorana ubuhanga ndetse n'isuku.

Abanyeshuri cyangwa se abaganga, bari mu gikorwa cy'ubushakashatsi, bari muri laboratwari aho bari gufata amakuru, ndetse bakagenzura bakanasesengura bimwe mu byabajyanyemo.

Abahungu batatu bambaye amasarubeti y'ubururu, bari gukora ibintu by'ikoranabuhanga bisa naho ari ibikoresho by'amashanyarazi, ndetse na za mudasobwa kugira ngo barebe icyo bageraho.

Abanyeshuri basa naho bize ubumenyi bw'ikoranabuhanga, ndetse mu mashuri y'imyuga hari ubumenyi ngiro, bakaba bari kwerekana cyangwa se bari kumurika ibikorwa byabo bagezeho, cyane cyane hibanzwe ku ngufu z'amashanyarazi.

Itsinda ry'abasore bambaye, imyambaro y'akazi yitwa amasarubeti, ari mu ibara ry'ubururu, bamwe bari mu kazi, abandi bategereje kubona ko bananirwa ngo babasimbure, mu gikorwa cyo gukanika modoka cyangwa se gusana ibyangiritse.

Abanyeshuri bambaye imyambaro z'akazi cyangwa se zabugenewe kugira ngo bajye mu mirimo z'amaboko aho bambaye amasarubeti y'ubururu ndetse bakaba bishimiye igikorwa barimo basa naho biga ibintu by'ubukanishi.

Umwarimu cyangwa se umurezi w' umuzungu cyangwa se w' ibara ry' uruhu rwera ari kwigisha umunyeshuri gukora inkweto, abo banyeshuri bari mu ishuri ari benshi, bambaye amasarubeti y' ubururu kandi bishimiye amasomo bari guhabwa.

Icyumba cy'ishuri kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye bikenerwa n'abanyeshuri ndetse n'abarimu kugirango ireme ry'uburezi rigende neza, harimo nk'ikibaho cyo kwandikaho kandi harimo n'intebe zirimo amabara y'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi.

Abakobwa bambaye imyambaro yabugenewe, iri mu mabara y'umweru, kandi bambaye ingofero, uwo hagati yambaye udupfukamunwa, abandi bambaye nt'uturindantoki, bari mu gikoni basa naho bari gutegura amafunguro.

Abana b'abanyeshuri bambaye imyenda y'akazi irimo amasarubeti y'ubururu, ndetse bambaye n'ibindi bikoresho by'ubwirinzi birimo udupfukamatwi, n'ibipfuka amaso, kugira ngo bitabangiriza mu mirimo bari gukora.

Abantu bishyize hamwe cyangwa se itsinda ry'abantu biganjemo abadamu n'abakobwa. Bateraniye mu guhanga udushya, bari gukora umwuga urimo: imitako, ibyibo, ndetse n'utundi tuntu dutandukanye, two mu birori ndetse no mu muco gakondo.